Hari abantu benshi cyane ariko ntabwo ari benshi cyane bikabije, hari nk'umuntu umwe bagize nkimpanuka bitunguranye cyangwa wakomeretse mu buryo butunguranye, hari abaganga benshi batandukanye, hari n'abandi bantu bahari bari kureba ibyabaye.

Ni kwa muganga hari umuganga wambaye ga z'umweru, hari n'uwundi muntu wakomeretse ikirenge, muganga arimo aramushyiriraho igipfuko cyamufasha gukira vuba.

Abaganga babiri bari mu bitabo bari gusubiramo ibijyanye na dokima z'abarwayi indwara baba barwaye, ibizamini baba batanze bagenda bagirango ngo babone ko babandikira imiti.

Ahantu mu cyumba runaka hahagazemo abantu bane, harimo umwe wambaye itaburiya y'akazi, harimo n'abandi batatu bigaragara ko bari gushaka serivisi aho ngaho y'ubuzima bariko barabaza muganga.

Ahantu mu cyumba cy'isuzumiro hari umubyeyi uryamye ku gitanda, hari umuganga imbere ye, yamushyize igipimo ku nda ye ari kureba uko umwana ameze mu nda.

Ahantu mu cyumba cyo kwa muganga harimo intebe, harimo kandagira ukarabe, harimo n'igitanda bakoresha bari gusuzuma abarwayi.

Umugabo w'umuganga, uri muri raburatwari, urimo akoresha mikorosikope, areba ibizamini by'abantu yashyizemo uko byifashe, arimo arareba ibisubizo.

Ni muri laboratwari aho bapimira ibizamini byafashwe ku barwayi harimo umuganga wambaye ga afashe urushinge mu ntoki rurimo amaraso ari gupima ibyo umurwayi arwaye.

Umubyeyi yicaye ku gitanda, ateruye umwana w'uruhinja ukivuka, arishimye cyane, ari gusoma uwo mwana, yishimiye ko afite uwo mwana.

Ahantu hari abantu benshi cyane, ariko higanjemo abana cyane ,bicaye ku matabule bari kurya buri wese afite isahani ye ,hari n'abandi bantu bahagaze bari kugenda barabahereza biryo.

Umubyeyi uri kumwe n'abana be babiri umwe ari mu mugongo ni mutoya undi amufashe ukuboko bari kugenda bagana imbere bajya ahantu nko kwa muganga birasa nkaho ari kwa muganga mugiye kwaka serivisi z'ubuzima.

Umubyeyi ari kwa muganga yicaye ku gitanda afite uruhinja ariko rwonse, nibwo akibyara aracyafite urushinge ku kuboko bamuteye barimo bamushyiramo imiti.

Abantu batatu bicaye ahantu mu cyumba babyarira barimo bama babiri n'akana gatoya kamwe bigaragara ko ari ahantu umubyeyi umwe yabyariye ako kana.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we amuteruye bifotoje baseka babona ko bishimyemo, yambaye igitenge ateze ikindi, nyuma yaho hari abantu bahicaye bisa nkaho bari kuri mashini bari gutanga serivisi.

Ahantu hateraniye abantu benshi, bicaye muri tente, ni ku kagari, hari abahagaze, hari abicaye, bisa nk'aho bari kuririmba cyangwa kwizihiza ibintu runaka, hari umubyeyi uhagaze, imbere ufite mikoro, uri kuvuga.

Ni inyubako iri ahantu runaka iriho ibyapa byerekana ibihakorerwa, haranditse ngo bavurisha ibimera hariho ibimera bishushanyijeho byerekana nyine ko bavurisha ibimera.

Ahantu hari imiti myinshi igiye itandukanye y'ubwoko bwinshi ndetse ivura ibintu byinshi bitandukanye, bigaragara ko ari agaforomasi kari ahantu runaka.

Ikiganza gifashe umuti w'amatungo hariho icyapa, hariho inyamaswa zishushanyijeho, inka, intama, ihene, bigaragara ko uno muti ufashe amatungo kuvura.

Inyubako runaka irimo sitoke y'imiti itandukanye, iragaragara neza cyane ni hanini cyane harisanzuye, harimo imiti myinshi cyane y'ubwoko bwose biragaragara ko ari farumasi runaka.

Ahantu hari imiti myinshi y'amoko menshi igiye itandukanye, iri ahantu hamwe ipanze neza, buri bwoko bugiye buri ukwabwo, kugira ngo uyicuruza abone uko abisobanukirwa neza.

Ahantu hari icyapa ku muhanda, cyanditseho ko rivuriro riri i Nyagatare. Hariho na nimero wahamagara ushaka guhamagara. Bigaragara ko ari umuntu wamamarije farumasi runaka.

Abantu bicaye muri Salle runaka bagaragara nkaho baje kwivuza. Bari kumwe n'umuntu imbere yabo, arikubaha nk'amabwiriza runaka ajyanye na serivisi baje gusaba aho hantu.

Ahantu hari amacupa menshi cyane agiye atandukanye, harimo amatoya n'amanini, bigaragara ko harimo imiti ya gakondo y'ibimera iri muri ayo macupa.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye byinshi, bigiye birimo n'utuntu dutandukanye, bigaragara ko ari imiti y'ibimera igiye itandukanye. Iteguye mu buryo busekuye, bavunguye ariko nyine ari imiti ya gakondo.

Inyubako runaka iri ahantu heza, hari ibyapa bigaragaza ibintu bakora, hari abantu bari kwinjira, hari n'abandi bahagaze bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda y'akazi, bigaragara ko ari abaganga, bakorera hano hantu.

Ahantu hari inyubako nziza cyane isa nkaho itanga serivisi y'ubuvuzi, hari abantu bahicaye imbere bategereje serivisi baje kwivuza bisa nk'aho nyine barwaye cyangwa bategereje izindi gahunda zijyanye n'ubuzima.

Ahantu hari inyubako isize irangi ry'ubururu, hari ibyapa bigaragaza ibihakorerwa, hari abantu bahicaye bategereje serivisi, hari n'abandi bari gusohoka bagenda bigaragara ko ari ahantu hari ibikorwa bavura abantu.

Inyubako, ziri ahantu hegereye ishyamba, ni inyubako zisize amarangi y'ubururu, inyubako bahakorera ibijyanye n'ubuvuzi bw'ubuzima bw'abantu.

Umuntu w'igitsina gore w'umuganga yambaye ga afite urushinge mu ntoki, arimo arashyiramo umuti agira ngo atere umuntu w'umurwayi.

Icyapa kigaragaza ibintu bikorerwa hano hantu, hari agakirinike karimo ubuvuzi bugiye butandukanye, mu bigaragara ni etaje igeretse harimo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi aka kapa karabigaragaza byose.